Abantu bambaye imipira y'imyeru bicaye ku ntebe z'umutuku, imbere yabo hari ameza atwikirije igitambaro gisa umukara bari mu nzu, bafite amarido y'umuhondo, bafite amakayi n'amazi imbere yabo.

Umugabo w'igikara wambaye rinete, wambaye ikanzu irimo amabara y'umukara, umutuku n'umweru, wambaye ishati mo imbere, wambaye na karuvati.

Moto itwaye umumotari, wambaye kasike y'umutuku, wambaye ijele y'umuhondo, uhetse umukobwa wambaye igikapu, inyuma yabo hari imodoka y'umweru, ipakiye, itwikirije shitingi y'umweru, ifite n'ibyuma.

Bisi ifite amabara y'umuhondo inyuma yayo hari icyapa, ruguru yaho hari ibiti, hari igicucucu mu ifoto, hari moto itwaye umubyeyi wambaye ibitenge, wambaye inkweto zifunguye.